Abana biga mu mashuri y'inshuke ukunze gusanga bigira ku dupupe ndetse n'udushushanyo bibigisha uko ushobora gushushanya cyangwa se gukangura ubwonko bwabo.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke bakunze kujya ku ishuri bajyanye ibyo kunywa bigiye bitandukanye bakabitwara mu macupa ari mu mabara meza cyane abashimisha kuko iyo bagiye batabifite baba bafite ishyari.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke ukunze gusanga bakunda gukoresha bimwe muri ibi bikoresho, mu rwego rwo kugira ngo bishushanyirize udushushanyo tugiye dutandukanye, bityo bikangure imikorere y'ubwonko bwabo, ibi bikoresho harimo amakaramu y'ibiti, amagome ndetse n'amakaramu y'ibiti.

Abana biga mu mashuri y'inshuke ukunze gusanga bakunda guhabwa impano zigiye zitandukanye, harimo n'utugofero bahabwa iyo barangije amashuri y'icyiciro rusange.

Abana biga mu mashuri y'incuke bakunze guhabwa imyitozo mu rwego rwo kugira ngo basuzume ndetse barebe niba ubwonko bwabo bugenda bwaguka bityo babe babimurira mu mashuri abanza.

Abana biga mu mashuri y'inshuke bagurirwa ibipupe ndetse n'ibindi bikinisho bibarangaza bityo bigatuma ubwonko bwabo bukanguka kandi bugakora neza uko bikwiye.

Abana biga mu mashuri y'incuke babashakira ibitabo byinshi kandi byiza maze bakajya bakunda kubasomera kugira ngo nabo bigane uri kubasomera maze basome bazakure babizi.

Abana b'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke ukunze gusanga bahabwa ibitabo birimo udushushanyo kugira ngo bibashe gukangura ubwenge ndetse n'imikorere y'ubwonko bwabo.

Abana ni abana biga mu mashuri y'inshuke bakaba barangije ikiciro cy'amashuri y'inshuke bagiye kujya mu mashuri abanza. Bari kumwe n'ababyeyi babo bari kubaha impano zigiye zitandukanye.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke bakunze kuba bafite impano yo gukora utuntu tw'ubugeni, nko kugira udukarito, aho bakora udukarito mu bipapuro, ukabona ko tumeze neza cyane, mwene aba bana baba bafite ubwenge.

Abana biga mu mashuri y'inshuke ndetse n'abanza bakunze kwifashisha ibitabo by'inkuru maze bakabigisha inyuguti ndetse n'ibihekane, ibyo bigatuma bamenya ubwenge.

Abana bane bambaye impuzankano y'ishuri ni abahungu babiri ndetse n'abakobwa babiri bakaba biga mu mashuri y'incuke bafite ibikapu n'amakayi bakaba bagiye ku ishuri kwiga.

Iyi ni nyubako ikorerwamo ubucuruzi, hakaba harimo imifuka y'umuceri, iyi nzu yubakishije amatafari ahaye isize irangi rya orange, iriho inzugi z'umweru ndetse ikaba ikorerwamo ubucuruzi bwa butike.

Abana biga mu mashuri abanza ndetse n'ay'inshuke, bakunze kubigisha kubara bifashishije ibintu bigiye bitandukanye cyangwa se bakabigisha inyuguti z'ikinyarwanda bifashishije ingero.

Abana biga mu mashuri abanza baba bazi gushushanya ndetse bakagira n'ubumenyi, iyo uzi ubwenge umwarimu ahora agutangaho urugero, aha bagaragaje umwana w'umunyeshuri witwa Uwera akaba ari urugero rwiza.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza bifashisha ibikoresho bigiye bitandukanye, mu rwego rwo kugira ngo babashe gukangura ubwonko bwabo ndetse no kumenya uko bapima amafuruka bifashishije amarate maremare ndetse n'amagufi, bagakoresha kompa baca uruziga.

Aba ni abanyeshuri biga mu mashuri abanza, bakaba bicaye mu ntebe mu matsinda, aho bari gukora imyitozo, harimo uwamanitse urutoki kugira ngo agire icyo asobanuza umwarimu ubahagaze imbere.

Abana biga mu mashuri y'inshuke ndetse n'abanza, ni abana bakunze gushishikazwa cyane no gukina, gukora imikoro yo mu rugo, kuganira n'ababyeyi ndetse no kuba bari hamwe na bagenzi babo.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza bakunze guhabwa umukoro wo gushushanya bimwe mu bikoresho bikoreshwa mu ngo harimo nk'uduseke, hakabamo udutebo, amapiki, amasuka ndetse n'ibitiyo.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke ndetse n'amashuri abanza ukunze gusanga bakunda kuba bakoresha amakaramu y'ibiti ndetse bagashushanya udushushanyo tugiye dutandukanye dusize amabara mu rwego rwo kugira ngo bishimishe.

Umwarimu ari gusobanurira abanyeshuri ibice bigize umutima. Aho agenda aberereka buri gice n'umumaro wacyo. Ni igishushanyo cy'umutima gishushanyije ku kibaho cy'umukara.

Iyi ni inyubako y'amashuri abanza, ikaba yubatswe, igizwe n'ibyumba birenga cumi na bibiri, imbere yaho hakaba hateyeho indabyo zituma abanyeshuri bagira ubuzima bwiza ndetse n'umwuka mwiza.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza, usanga bakunda gukora ibintu bijyanye n'ubukorikori, aho bashushanya bakaba bashushanya udukoresho turimo ibitiyo, amasuka, udutebo, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza bakunze gukoresha ibikoresho bigiye bitandukanye biga gushushanya, hakaba harimo amakaramu y'ibiti, amakaramu mazima ndetse n'imikasi aho baba bafite n'amarati bifashisha mu gupima uburebure.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza, abarimu bakunze kubigisha bifashishije ingero zifatika, aha hari amakayi amakaramu, ibitabo ndetse harimo n'amakaramu y'ibiti, hakaba n'umukasi na gome byo kuyaconga.

Aya ni amashuri yigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza akaba yubakishijwe amatafari ahiye, harimo uturongo turimo irangi ry'umuhondo ndetse n'iry'umukara, aya mashuri asakaje amabati y'ubururu akaba arimo na sima.

Ibi ni bimwe mu bikoresho abanyeshuri biga mu mashuri abanza bakunze kwifashisha, bityo bikabafasha mu myigire yabo, harimo amarate apima imfuruka, hakabamo kopa bifashisha baca inziga.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza, bicaye mu ntebe, bari gukora ikizamini. Umwarimu ari kugenda anyura hagati yabo, agenda basomera amabwiriza ndetse n'amategeko agenga kino kizami.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza, ukunze gusanga ari abanyabukorikori ariko baba bagifite ubushobozi buri hasi. Ibi ni bimwe mu bikoresho, bishobora kubafasha kuzamura ubumenyi ndetse n'ubuhanga bwabo.

Abana biga mu mashuri abanza ndetse n'ay'inshuke ukunze gusanga bishimira kubona udushushanyo tugiye dutandukanye tw'inyamaswa ndetse n'ibyo kurya, aha hakaba hari amagambo agira ati "gushimira ni ngombwa."

Iyi ni inyubako y'amashuri abanza, yubakishijwe amatafari ahiye, ikaba isakajwe amabati, aha hakaba harimo ikibuga abanyeshuri bakoreramo imikino igiye itandukanye, hakaba n'ibyuma bicundaho mu rwego kugira ngo bakunde ishuri.

Uyu ni umwana wiga mu mumashuri abanza, akaba yambaye impuzankano y'ubururu akaba ari kugenda yandika inguti kibaho cy'icyatsi kibisi kiri mu ishuri. Uyu mwana urabona ko afite umuhate wo kumenya.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza ,usanga bigira ubugenge ndetse n'ubukorikori, nk'isomo rizwi nka siyanse, cyangwa se ubumenyamuntu. Aho baba bigamo ibintu bigiye bitandukanye.

Inyubako y'amashuri abanza. Ni inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho igeretse kabiri. Hakaba harimo abanyeshuri bari hanze bigaragara ko ari amasaha yo gukina. Iyi nyubako ikaba ifite ibyuma bisize irangi ry'icyatsi kibisi.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza ukunze gusanga baba bafite ibikoresho bigiye bitandukanye kandi bibafasha mu masomo yabo harimo nk'imikasi, amakaramu y'ibiti, amaterinovisi ndetse na metero.

Aba ni abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bakaba biga ibijyanye n'ubumenyingiro. Aha bakaba bari gukora amapuritike, aho bari kugenda babasobanurira ndetse babereka n'uko bikorwa.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, imbere yabo ha bakaba hahagaze umuyobozi uri kubagezaho ikiganiro, harimo inyubako nziza cyane zubakishije amatafari ahiye zisakaje amabati y'ubururu, hakaba n'ibiti byiza cyane bitanga umuyaga.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye ,bakunzwe guhugurwa ibijyanye n'ubutabazi bw'ibanze. Aho babasobanurira neza icyo gikorwa uko gikorwa ndetse bakabasobanurira n'akamaro kacyo.

Aba ni abana beza cyane b'abari biga mu mashuri yisumbuye, bambaye impuzankano z'ubururu ndetse n'umukara bambaye n'amakaruvate, bari kwifotoza kandi bari guseka bigaragara ko bishimye.

Inyubako y'ikigo cy'amashuri kigisha ibijyanye n'imyuga ndetse n'ubumenyingiro. Cyubakishije amatafari ya sima, hakaba hari igipangu kiriho urugi rw'icyatsi kibisi. Handitseho amagambo agira ati murakaza neza mu kigo cya Nyundo.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe bigaragara ko ari abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bambaye udupira tw'icyatsi kibisi bose bakaba bafite ingabo mu ntoki ndetse n'amacumu, aho bigaragara ko bari mu itorero.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bakaba bafite mudasobwa, imbere yabo hari umwarimu uri kubigisha yambaye itaburiye y'umweru, akaba ari kugenda abasobanurira uko izo mudasobwa zikoreshwa.

Aba ni abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bakaba bahuriye ahantu hamwe, aho bisa nkaho bari gusenga, bamwe bazamuye amaboko ndetse bigaragara yuko imbere yabo hari umuntu uri kubaha ikiganiro.

Iyi ni inyubako y'ikigo cy'amashuri yisumbuye. Ikaba yubatswe mu buryo bugezweho. Igeretse inshuro ebyiri. Iruhande hakaba hari igiti gitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi ku banyeshuri.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bambaye impuzankano z'icyatsi kibisi, umweru ndetse n'umukara bicaye mu nyubako ubona ko bari mu nama bakaba bari kubaha amabwiriza bicaye bakurikiye.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bakaba bicaye mu buryo bugiye bumeze neza aho batandukanye bakaba bari gukora ikizami, imbere yabo hari abarezi bari gucunga ko ntawe ureba ku ruhande.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, nabo bagerageza gukora ubushakashatsi mu rwego rwo kugira ngo bagire ubumenyi, aha hari umwna w'umukobwa wambaye ishati y'umweru, umupira w'icyatsi ni'jipo ya kake, akaba ateruye icyuma bifashisha kugira ngo basakaze amajwi.

Aba ni abana biga mu mashuri yisumbuye. Bakaba bambaye impuzankano z'ubururu ndetse n'icyatsi, akaba n'abambaye umweru na kake. Bakaba bari ku mirongo aho bigaragara ko bagiye mu gikorwa.

Aba ni abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bakaba bari gukora umukoro bahawe na mwarimu bari kuwukorera mu matsinda aho babiri babiri bari gukorana bose bafite ibikoresho bari kwifashisha bakora uyu mukoro.

Aba ni abana biga mu mashuri yisumbuye, bakaba bicaye mu ntebe. Bafite amakayi imbere yabo bari gusoma ubona ko banyotewe intsinzi ihambaye kugira ngo bakomereze no muri Kaminuza.

Aba ni abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bakaba bambaye impuzankano y'umweru ndetse n'ubururu bahagaze ahantu munsi y'igiti bakaba bari guhabwa amabwiriza ndetse imbere yabo hakaba harimo uwambaye impuzankano ya Polisi y'u Rwanda mu bari kubahugura.

Abanyeshuri biga mu mashuri makuru ndetse na za kaminuza bakunda kwiga bakurikiye neza kandi batarangaye, bigira mu ntebe nziza maze buri wese akaba anyotewe kugira ubumenyi.

Abanyeshuri biga muri za kaminuza ndetse n'amashuri makuru n'ubumenyingiro, ukunze gusanga baba bafite ubukorikori, bagakora ibikoresho bigiye bitandukanye. Izindi ni intebe z'ubururu za palasitiki ndetse n'intebe zo mu mbaho ndende.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye imyuga ndetse n'ubumenyingiro bakunze gukora ibintu byinshi cyane by'ubugeni cyane cyane abiga mu bumenyingiro, cyane cyane ko baba bigishwa guhanga imirimo.

Abanyeshuri biga mu mashuri makuru ndetse na za kaminuza, ukunze gusanga baba bafite ubugeni, aho bakora ibintu babishyizeho umwete kandi bakabishyiramo ubwenge n'ubushishozi bwinshi.

Abanyeshuri biga mu mashuri makuru ndetse na za Kaminuza. Usanga biga mu mashuri makuru bahabwa ubumenyigiro. Butuma basohoka hanze y'ishuri baje gushyira mu bikorwa ibyo bize.

Aha ni ahantu heza cyane hatashi amapave, hakaba hari aho ibinyabiziga biparikwa, hasakaje amabati, hahagaze umuntu wambaye agapira k'ubururu n'ipantaro y'ikoboyi, hakaba hari amagare aparitsemo.

Uyu ni mama wambaye ishati y'amaboko manini. Yambaye ipantaro y'ubururu ndetse n'inkweto. Akaba ari kumwe n'abandi. Bari kugenda mu gahanda gato cyane, bakaba ari abanyeshuri biga muri Kaminuza zigiye zitandukanye.

Abanyeshuri biga mu mashuri makuru ndetse na za kaminuza, usanze bigira mu nyubako nziza cyane ziba zigeretse aho na bo bakora ubushakashatsi mu rwego rwo kugira ngo bamenye.

Aba ni abanyeshuri biga muri kaminuza z'imyuga ndetse n'ubumenyingiro bakoze bimwe mu bikoresho by'ibibumbano bibumbye hano. Aha rero bikaba bigaragaza ubumenyi budasubirwaho kandi butagereranywa baba bafite.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye ay'imyuga ndetse n'ubumenyi ngiro hamwe na kaminuza, usanga bigira mu mashuri meza cyane, aha turi kuhabona intebe nziza cyane z'icyatsi kibisi ziririmo urtuma tw'umukara, ndetse n'ameza asa kake hakaba hari abanyeshuri benshi bari kwiga.

Abanyeshuri biga muri kaminuza usanga bakora ubushakashatsi ndetse bakaniga, iyo bigeze mu gihe cy'ibizami basubizanya ubushishozi cyane ko baba bafite ubumenyi bakuye mu bushakashatsi.

Uyu ni umuhanda ufashemo amapave meza cyane, ku mpande hakaba hari uturongo turiho umweru ndetse n'umukara. Hari urujya n'uruza rw'abantu, hari abari kwinjirayo ndetse n'abari gusohoka.

Abanyeshuri biga muri kaminuza ndetse n'abiga ubumenyingiro bakaba bahawe impamyabumenyi nibyo cyane barishimye bari gufata ifoto y'urwibutso aho bagiye barimo abahungu ndetse n'abakobwa.